Abana batoya bicaye ku ntebe zifite urubaho imbere rwo kwandikiraho, imbere ku kibaho handitse imibare icumi, cumi, makumyabiri ndetse n'ibindi bishushanyo biri ku rukuta, hejuru mu gisenge hari parafo.

Abana bato bahagaze abakobwa ukwabo n'abahungu ukwabo, imbere yabo hari abarezi babo babahagaze imbere barimo kubigisha, abana bamwe bahagaze bambaye inifomo y'ubururu abandi bambaye kaki.

Inyubako zigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza, zubatse mu buryo buteganye imwe iri hejuru ,indi iri hasi aho hagaragara amabati ,indi ikaba igaragaza n'igice cyayo cyo hasi.

Imfashanyigisho zikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri bari mu mashuri abanza harimo inyuguti, inyajwi ndetse n'izindi nk'ibihekane harimo inyuguti ya a, b, c, o imibare gatanu, rimwe, karindwi, ikenda.

Ikigo cy'amashuri abanza, inyubako yubatse mu buryo bwa etaje bugeretse, inzu yubatse hejuru y'iyindi, hari inzira ijyana abanyeshuri mu ishuri n'indabo ziteye muri icyo kigo.

Intebe ziteye zizengurutse zijya gukora uruziga ndetse ku meza akoze nk'uko izo ntebe ziteye, hejuru ku meza hari mudasobwa zifashishwa n'abana ba segonderi biga.

Umunyeshuri uhagaze imbere y'ikibaho, yambaye inifomo hejuru ishati y'umweru, hasi ni kaki, yifashe mu ntoki, imbere y'urugi rw'umukara.

Abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye bambaye impuzankano yabo benshi muri bo bambaye amajipo ya kaki n'amashati y'umweru ariko kandi bambaye n'udupfukamunwa, bamwe bambaye udupfumunwa tw'umutuku abandi bambaye utw'umukara hagati y'umunyeshuri n'undi harimo intera.

Abanyeshuri ba segonderi bicaye bambaye inifomu amashati y'umweru, bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo hari umwarimu uhagaze yambaye itaburiya yo kwigisha, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bahagaze bemeye bari ku mirongo bamwe amaboko yabo ari imbere, imbere yabo hari uhagaze ari kubatoza, inyuma hari amashuri bigamo.

Abanyeshuri bicaye bakurikiye bamwe bambaye udupfukamunwa abandi badukuyemo, imbere yabo hari imashini, biga mu mashuri yisumbuye ya kaminuza ubumenyingiro.